Umugabo wambaye rinete usutamye, wambaye umupira usa n'umuhondo, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, afashe umwana wambaye umupira usa n'umuhondo, ipantaro y'ubururu, ahagaze ku munzani usa n'umweru, hasi yaho hariho amuteka, inyuma yaho hahagaze abandi bantu.

Abamama batatu bose bakenyeye igitenge, babiri barahagaze undi arunamye, bafashe ku mugezi undi afashe indobo isa n'icyatsi, ari kuvoma amazi impande yabo hari igiti kirekire hari n'igikuta gisa n'ubururu.

Abantu batanu, bazengurutse umuntu uryamye, bambaye imyenda y'icyatsi, udupfukamunwa tw'icyatsi, ingofero z'icyatsi, impande yabo hahanitse ikintu gisa n'umweru, inyuma yabo hariho ibikuta by'umweru, umwe afatishije ukuboko kwe, ku muntu uryamye.

Abagore batatu bari ku mugezi impande yabo hari umugezi, impande yabo hari insina hakaba n'ibijerekani, umugore umwe ari kuvoma akenyeye igitenge, undi arahagaze n'undi aho ahagaze ari kumureba.

Abana babiri bari kumwe hagati yabo bateruye indobo y'icyatsi, impande yabo hari umugezi bamaze kuvomaho, umwana umwe yambaye ijipo y'umuhondo, undi hejuru akambara agashati k'ubururu, undi yambaye igitenge.

Abana batandatu bari mu mazi magari barimo koga umwe arahagaze batatu bari koga, undi arambuye amaboko undi azamuye ukuboko kumwe bose bose bari kureba imbere.

Ikizeru gikoreshejwe uturonko tw'umukara, hasi yacyo hariho ibara ry'ibyatsi, hejuru yaryo hariho ibara ry'ubururu, hasi yacyo handitseho amagambo akoreshejwe ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bari hamwe bazamuye ibipapuro bifite amabara y'ubururu n'umuhondo n'umweru, inyuma yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye, impande yabo hahagaze umugabo ufite impapuro z'umweru mu ntoki.

Abantu benshi bahagaze, bambaye utuntu mu ijosi, twandikishijweho umweru dusa n'ubururu, bambaye amataburiya ubururu, hagati yabo harimo umugabo, wambaye ikote ry'umukara na karuvati y'ivu.

Umumama wambaye agapfukamanwa n'umupira w'umukara ari gukarabya umwana we intoki, inyuma yabo hari ibiti by'icyatsi, umwana yambaye imyenda ya kaki, nta musatsi afite, ni umuhungu.

Abantu batanu bose bambaye imipira y'ubururu, ingofero z'umweru, harimo umuhungu umwe nabakobwa bane bazamuye ukuboko, bose bafunze igipfunsi, inyuma yabo hariho icyapa kirimo amabara y'ubururu.

Umugabo wambaye umupira urimo ubururu n'umweru, afite umusatsi mukeya ari gukorera ikijerekani kiriho icyapa cy'ubururu umwana, ufite umusatsi mukeya wambaye umupira usa iroza.

Abantu bicaye bakoze uruziga, harimo abagabo n'abagore, umugabo umwe yambaye ikoti ry'umukara, umugore yambaye ikoti ry'ivu, afite imisatsi itukura, undi mugabo yambaye ikoti ry'umweru, undi mugore yambaye ikoti ry'umweru, barimo kuganira.

Umwana wambaye hejuru umupira w'ubururu, hasi ipantaro y'umukara, afashe ku ndobo ifite aho bavomera h'umukara, isa n'umweru, ifite hejuru hasa n'ubururu, impande ye hari urugo rukoresheje ibyatsi.

Abana batandatu bari kuvoma ku kigega gisa n'umukara, inyuma yabo hariho igipangu cyubakishije amabati, abana bafite ibikombe by'icyatsi bambaye imipira y'umukara, hasi umweru.

Abantu benshi bahagaze bambaye ingofero z'umweru bafite icyapa kiriho amabara y'ubururu n'umweru, inyuma yabo hari inyubako isakaje amabati y'umutuku, hejuru yabo hariho amashami y'igiti giteye impande yabo.

Akana kari kuvoma amazi mu mugezi utemba gafite ijerekani y'umuhondo kambaye agashati k'umuhondo hejuru karimo utubara hasi kakambara ijipo y'icyatsi imirimo utubara akanunamye kari kuvomesha amaboko abiri.

Umwana uri gukaraba amazi avuye mu ndobo y'icyatsi yamaze gukaraba akajya mu ndo mu ibase y'icyatsi yambaye ishati, agakanzu gasa n'igitaka afite umusatsi mukeya inyuma ye hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Umugabo uri gukorera umwana ijerekani yambaye agapfukamunwa k'umweru, ingofero y'umukara, umupira w'ubururu. Impande yabo hari undi mukobwa ufite umusatsi muremure, wambaye umupira w'umweru, afite terefone ari kubafotora.

Umupapa uhagaze afite igishushanyo kiriho abana babiri umukobwa n'umuhungu, impande ye hahagaze umumama amaboko yayajyanye inyuma, impande inyuma ye hari igikuta kiriho idirishya.

Abantu benshi bahagaze imbere yinzu nziza, impande yabo hari igishushanyo mbonera, umuntu wa mbere yambaye itaburiya y'ubururu, uwo hagati w'umugabo yambaye itabuliya y'umweru n'abandi ku ruhande bambaye amatabuliya y'umweru.

Umwana ari gukaraba amazi avuye ku mugezi, impande ye hari ibyatsi by'icyatsi, yambaye agashati k'umutuku, afite amaso y'umweru, afite umusatsi mukeya, afite amatwi manini, ni igikara.

Umukobwa wunamye ari kuvoma ku mugezi utemba, yambaye inkweto z'umuhondo, ipantaro y'umukara, hejuru agapira k'ubururu, impande ye hari umwana wicaye uri kumureba, n'urundi ruhande rwe hari undi mukobwa uhagaze uri kumureba.

Umwana uhagaze yambaye hasi ipantaro y'ubururu, hejuru ishati y'umweru, ari kuvoma amazi avuye ku kigega cy'umukara, impande ye hari igikuta gikoresheje amatafari ya ruriba.

Ikizeru kirimo umugore n'umwana, bari kurebana umwana yazamuye ukuboko, bose bashushanyije mu ibara ry'ubururu, impande y'icyo kizeru, gikikijwe n'andi mabara y'ubururu, ari mu gishushanyo cy'umuceri.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'umweru n'ishati y'umweru ari kwandika mu gitabo impande ye hari umugabo uri kureba ibyo ari kwandika yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umweru inyuma yabo hariho icyapa cyanditseho gikoresheje ibara ry'ubururu ry'umweru

Umugezi uri kuzana amazi ahantu hane, uzengurutswe n'abantu benshi, hariho umuhungu uri kuwukoraho yambaye ingofero y'umuhondo, ishati y'umukara n'ipantaro y'umweru, abandi bantu barawuzengurutse harimo ufite indabo y'umuhondo.

Abana bane bahagaze imbere y'umugezi, umukobwa umwe ahagaze inyuma y'umugezi, yambaye ishati y'ubururu ipantaro y'umukara, afite umusatsi muremure, impande y'umugezi, hariho utujerekani tune, baje kuvomesha abana.

Umwana wunamye ari gukaraba kumugezi yambaye ishati isa n'ubururu ipan ikabutura isa n'umukara, impande ye hari indobo ebyiri zisa nu'ubururu inyuma ye hari ikibuga inyuma yaho hari ibyatsi bisa niicyatsi.

Akazeru hasi harimo icyatsi, hejuru harimo uturongo tubiri tw'umweru, hagati harimo akandi kameze nk'igitonyanga cy'amazi k'umweru, impande yaho handikishije amagambo ubururu, icyatsi n'ubururu.

Umugabo wicaye ari kugaburira umwana, umugore ateruye umwana, yambaye umupira w'umweru, umwana yambaye agashati k'umuhondo, umugabo yambaye rinete n'agapira k'umuhondo n'ipantaro y'umukara, impande yabo hari n'abandi bantu.

Imigezi itatu iriho abana batatu, imbere yabo bateretse indabo z'umweru, inyuma yaho hahagaze abandi bana batatu, na bo bari gukarabira ku yindi migezi, abana bambaye kaki bose nta musatsi bafite.

Abamama batanu baricaye bari kuganira umwe yambaye agapira k'umuhondo, ijipo y'igitegenda, yambaye ipantaro, undi ikanzu, undi ikanzu ya move. Inyuma yabo hari igitambaro gisa umukara bicaye ku ntebe zisa n'umweru.

Abantu batanu bari kumwe, harimo umugabo umwe n'abagore bane, umugore umwe afite ikayi, umugabo ari kwishima abandi bagore baricaye barakurikiye, umugore wundi yambaye itaburiya, hejuru ishati ya move.

Umugore wicaye, mu mutwe yishyize agatambaro k'icyatsi, yambaye umupira w'icyatsi, ijipo irimo amabara menshi y'indabyo, impande ye hashushanyije igishushanyo cy'ururabo, inyuma ye hari igikuta cy'umweru.

Abakobwa babiri bari kumwe, umwe yambaye ingofero y'umukara, yitangiriye itama, yambaye ikote ry'umutuku, ipantaro y'umutuku, undi ari kumukoraho we yambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umukara, afite n'umusatsi w'umukara, yambaye na rinete.

Abantu bicaye bakoze uruziga ku ntebe z'umweru hagati hagazemo abandi batatu, inyuma yabo hariho igikuta gisa n'umweru hari n'icyapa gisa n'umweru cyandikishije amagambo mu ibara ry'icyatsi kupande yabo hariho n'ikindi cyapa.

Abantu benshi bahagaze, inyuma yabo hari icyapa gikoreshejwe amabara y'umweru n'umutuku, handitseho amagambo mu ibara ry'ubururu n'umuhondo n'icyatsi, bose bose bahagaze begeranye.

Abantu babiri bari kumwe umukobwa n'umuhungu, umuhungu yicaye imbere y'umukobwa, yafashe amaboko ayashyira ku gahanga, yambaye ishati y'icyatsi, umukobwa na we yafashe ukuboko kwe agushyira ku rutugu rw'uwo muhungu.

Abantu bahagaze imbere y'igishushanyo mbonera, bafite impapuro mu ntoki, bose bambaye imipira y'umweru n'amapantaro y'umukara, abo ku ruhande nta mpapuro bafite, inyuma yabo hari inzu nziza.

Umubyeyi uhagaze imbere y'abantu, yambaye ikanzu y'umweru hejuru agashati ku mukara, imbere ye hicaye abantu benshi, hari n'ibikapu byinshi, hari n'amacupa y'amazi, n'inyuma ye hicaye abandi bantu nabo bari bafite amacupa y'amazi, bose bose bari kumureba.

Abagore babiri bicaye, inyuma yabo hari ibiti bitemye biharambitse, umugore umwe akoze ku wundi, afite umusatsi muremure, yambaye ikote ry'ubururu, ipantaro y'ubururu, undi yikubise agasharupe k'umutuku, yambaye ikanzu y'ubururu.

Abana benshi bicaye, umwe azamuye amaboko yambaye ishati y'umuhondo n'ikanzu y'umweru, undi umuri iruhande yambaye agapira k'umuhondo, undi yambaye umutuku, abandi ntabwo bagaragara neza.

Igishushanyo gishushanyije mu ishusho y'umuntu udafite umusatsi, mo imbere hagati harimo utuni tugenda tuzengurutse dusa n'umukara, hakazamo nutunyenyeri hejuru yatwo dusa n'umweru, hasi yaho handikishijwe amagambo mu ibara ry'umukara.

Abana batatu inyuma yabo hari n'abandi bana barikurira umwe azamuye amaboko, undi ukuboko yagushyize ku mutwe. Bose bose bambaye imyenda yacikaguritse. Inyuma yabo hari n'abandi bana.

Umumama wicaye impande ye hari abantu batatu, uwo mumama ari gutunga urutoki, afite agapfukamwa ku kuboko, yambaye itaburiya y'ubururu imbere agapira k'icyatsi karimo utubara, impande ye hicaye undi mumama.

Umugore wicaye yambaye ishati y'umweru, imisatsi y'umukara linete, isaha ku kuboko, afite ikaramu y'umukara mu ntoki, impande ye hari mudasobwa, imbere ye hari amacupa y'amazi, inyuma ye hari abandi bantu.

Umumama uhagaze uri guseka, afite imisatsi miremire, yambaye agakote k'ubururu, ikanzu y'umutuku, inyuma ye hari igikuta cyanditseho amagambo akoresheje ibara ry'umweru, igikuta gisa na move.

Umwana uryamye ku gitanda agaramye yambaye agapira karimo uturongo dutambitse tw'umukara, umweru n'icyatsi, impande ye hari umuntu wicaye ku ntebe wambaye imyenda y'icyatsi ari kumukora mu kanwa.

Umugabo ufite umusatsi mukeya uri guseka, yambaye umupira w'icyatsi ukuboko kumwe gufashe ikintu n'ukundi kuri gutunga urutoki ukundi ukuboko, inyuma ye hari igikuta gisa n'icyatsi gihiye.

Intebe ntoya isa n'ubururu ifite amaguru afite ibara ripika cyane, impande yayo hari indi ntebe nini cyane inyuma isa n'umweru imbere isa n'ubururu hejuru ya yo hariho mudasobwa, inyuma ya ho hariho izindi nsinga.

Abantu bicaye bambaye udupira tw'icyatsi twanditseho amagambo mu ibara ry'umuhondo inyuma yabo hagaze abandi bantu bambaye udupira tw'umweru bambaye n'udupfukamunwa tw'ubururu, bicaye ku ntebe zisa n'umweru inyuma yabo hari igikuta gisa n'umweru

Umugabo uri guseka amenyo ye ari kugaragara, afite amaboko abiri arazamuye, hagati y'ayo maboko hari akantu k'akagozi afatishije ayo maboko, ari kugenda anyuza mu ryinyo, yasetse cyane ugutwi kumwe niko kuri kugaragara nta jisho riri kugaragara, hari kugaragara n'amazuru.

Inzu ifite ibice bitatu icyo hejuru n'icyo hagati, n'icyo hasi, hejuru ifite irangi ry'ubururu, inyuma yubakishijwe n'ibirahure, impande yaho hari porotayi isa n'ubururu, imbere yaho hari umuhanda.

Umwana wambaye agapfukanwa k'umutuku, n'umupira w'umukara, aricaye abaganga babiri bambaye udupfukamwa tw'ubururu, n'amatabririya y'umweru, umwe ari kumukora mu kanwa undi amufashe ku ijosi.

Abamama babiri bari kumwe umwe afite imisatsi miremire, undi afite imisatsi mitoya, umwe yambaye ikote ry'ubururu n'agasengeri k'umukara, undi yambaye ikoti ry'umutuku n'agasenyeri k'umukara, umwe ari guseka areba imbere, undi afite ikaramu ari kwandika ku rupapuro rw'umweru.

Umwana ufite umusatsi mukeya, arasamye amenyo ari kugaragara, hari intoki ebyiri ziri kumukora mu kanwa zambayeho ubwirinzi busa n'icyatsi, umwana yicaye mu ntebe isa n'umutuku.

Intebe eshatu zisa na kake impande yazo hari ibikuta bisa na kake, inyuma yaho hari umuryango ugizwe n'ibice bine umuryango ukozwe mu birahure, imbere yaho nta kintu gihari, ziteretse ku makaro y'umweru.

Umusaza wicaye yambaye lunette, ishati y'umuhondo, ikaramu y'umukara mu ntoki, ukuboko kumwe yakujyanye ku kananwa, umusaza yasinziriye, inyuma ye hari igikuta cy'umweru, impande ye hari igikuta cya kaki.

Abasaza babiri begeranye bose bambaye ingofero, imwe y'umukara, indi ya kaki, umwe yambaye rinete, yambaye ishati y'icyatsi, yiteye umwitero w'umweru, undi yambaye ishati y'umweru, yiteye umwitero w'umukara.

Abantu bicaye bakoze uruziga ruzengurutse, harimo abagore n'abagabo, umugore umwe afite igiseke ari kuboha kitari cyuzura, abandi baramuzengurutse, barimo kumureba.

Umusaza uri kumwe n'umukobwa we bafite igitabo cy'umweru bari gusoma, impande yabo hari udukombe tubiri tw'umweru, inyuma yabo hari igikuta cy'umweru, umusaza yambaye umupira w'umweru, umukobwa yambaye ishati y'umukara.

Abagore bahagaze bambaye udupfukamunwa, uw'imbere yambaye ikanzu y'igitenge bane bamukurikira bambaye imipira isa n'umweru, amajipo y'umukara, undi umukurikira yambaye ijipo Isa n'ubururu n'umukara n'abandi babari impande.

Umusaza uri kugendera mu kagare ko kwa muganga yambaye ipantaro y'umutuku, ikote ry'ivu ari kumwe n'umuganga wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru n'itabariya y'umweru barimo kurebana.

Abantu benshi bicaye bazikoze uruziga bicaye ku ntebe z'umweru, inyuma yabo hari inzu zubakishije urwondo, impande yabo hari igiti kinini kibatwikiriye, impande yabo handi hari ibyatsi.

Umupapa uri kumwe n'umukobwa uri kumukoraho, ari kumufungira ibipesi, umupapa yambaye ishati y'ubururu, yicaye ku ntebe, umukara akamupfunnyirapressi papa yambaye ishati y'ubururu, yicaye ku ntebe, yambaye agapfukawa, umukobwa yambaye ishati y'icyatsi, yambaye agapfukamunwa, afite imisatsi miremire.

Umukecuru yicaye hanze, yambaye agashati k'umweru, hasi igitenge cy'umuhondo kirimo amabara y'icyatsi, imbere ye hari amashyiga atatu ateretseho isafuriya y'umukara, igapfundikirwa n'indi safuriya, impande ye hari ibiti.

Abamama batatu bari kumwe, umwe yambaye umweru hejuru, undi umuhondo, undi ubururu, uwo hagati afite terefone isa n'umukara mu ntoki, inyuma yabo hari ibiti, bose bose bari guseka.

Umugore n'umugabo baricaye bari kurebana, bari kurya ibiryo bisa n'icyatsi n'ibindi bisa n'umuhondo, umugore afite igikoresho cyo kurisha agiye gushyira ibiryo mu kanwa.

Umugore uri kuvuga yambaye hejuru agashati k'icyatsi hasi yambaye ijipo y'umweru irimo uturabyo, afite microphone y'umukara, asutse ibisuko by'umukara, imbere ye hicaye abandi bantu.

Umugabo uhagaze, wambaye ikote ry'ivu, inyuma ye hari igishushanyo cyandikishije amagambo y'umweru, impande ye hari intebe z'umukara, impande ye hari kamera, imbere ye hari mikoro ari kuvugiramo.

Abantu babiri bambaye imyenda y'ubururu n'ubwirinzi mu ntoki dusa n'umweru, umwe afite ikintu cy'umukara mu ntoki, undi arahagaze ari kureba.

Abantu babiri umukobwa n'umuhungu, bafite impapuro mu ntoki, zandikishijeho amagambo mu ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari intebe zisa n'umweru, impande yabo hari imeza.

Intebe umunani ebyiri zireba izindi ebyiri hagati yazo hariho imeza impande yazo hariho ibikuta bisa n'umweru hasi hariho emwe igikuta kisa n'umweru.

Icyumba kirimo imeza isa n'umuhondo n'udutebe twinshi tuzengurutse iyo meza, dufite aho kwicara hasa n'umuhondo, aho kwegamira hasa nk'ivu, imbere harimo ibikuta bisa n'umweru, inyuma hasa n'umuhondo.

Ibitanda by'umweru bishasheho amashuka y'icyatsi, impande yabyo hariho ibikuta by'umweru, hejuru yabyo hariyo ibikuta by'umweru, impande yabyo harimo amarido y'ubururu.

Umama wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga, imbere ye hahagaze umumama ufite imisatsi miremire, yambaye ishati y'umweru, ipantaro yumweru, inyuma ye hari agatebe kumukara, ari kumukoraho, bose bambaye udupfukamunwa tw'ubururu.

Umuryango ugizwe n'ibice bitatu, icyo hagati kirafunguye, hejuru yaho hariho icyapa cyandikishijeho amagambo y'umweru n'icyatsi, n'umweru, n'icyatsi, n'umweru, impande yaho hariho igikuta cy'umweru.

Inyubako enye ziri kugaragara, imwe yubakishije amabati y'ubururu n'indi amabati y'ubururu n'indi amabati y'umutuku, zisize amabarange y'amabara y'umuhondo, imbere yazo hari abantu, inyuma yazo hari ibiti.

Umubyeyi wicaye, impande ye hahagaze undi mubyeyi wicaye amufasheho yambaye itaburiya y'umweru, afite umusatsi w'umukara mutoya, inyuma yaho hari undi mubyeyi uri kubareba, hejuru yabo ntakintu gihari, impande yabo hari igikuta gisa n'umuhondo.

lnzu ikoreshejwe ibintu bizengurutse bisa n'ivu impande yayo hari indi nzu ifite ibice bibiri, igice cyo hasi n'ikindi gice cyo hejuru isize irangi ry'umuhondo.

Abantu batanu bahagaze imbere y'inzu y'ababyeyi kwa muganga. Umwe ahagaze impande y'intebe. Abandi babiri baricaye n'abandi babiri baricaye. Undi umwe ahagaze impande y'inzu.

Umukobwa uryamye, akoboko kazamuye, akandi kamanuye, akaguru kamwe kazamuye, akandi kamanuye, imbereye hahagaze umugore n'umugabo, umugabo wambaye ishati itukura n'umugore wambaye ishati y'umweru.

Umuntuma uryamye wambaye igitende impande ye hari abantu babiri bambaye amatabu y'umweru umwe yambaye binete afite na natural inyuma yabo hariho igikuta cy'umuhondo.

Inzu ifite amabati y'ubururu, irange ry'umuhondo, ikagira aho binjirira hasa n'ubururu, impande y'iyo nzu hari ibiti byinshi by'icyatsi, impande y'aho binjirira hari igishushanyo kihahanitse.

Umuryango ufite urugi rugizwe n'ibice bibiri, hejuru y'aho hariho icyapa cyandikishijwe umweru, icyapa gisa n'ubururu, impande yabo hariho ibikuta by'umweru iburyo n'ibumoso, hejuru yaho hariho n'ikindi gikuta cy'umweru.

Abagore batatu, bahagaze bose bambaye udutambaro mu mutwe, bambaye amashati y'ubururu, inyuma yabo hari igiti kinini cy'icyatsi, n'inyuma yabo hari umuhanda, imbere yabo nta kintu gihari.

Inzu ebyiri imwe yubakishije amakoro ifite imiryango hasi n'indi isize ibara ry'umweru, hari umuntu uri kujyayo, impande yaho hari idarapo ry'igihugu, inyuma yaho hari ibiti bisa n'icyatsi.

Icyumba gifite igikuta bisa n'umweru, harimo agatebe k'umukara hejuru harimo ikigozi gisa n'umukara hakabamo n'ikindi kintu gihanitse cy'umweru ku gikuta hariho umweru.

Inzu ebyiri zegeranye imwe ifite ibice bitatu; icyo hasi, icyo hagati n'icyo hejuru, indi ifite ibice bibiri; icyo hasi n'icyo hejuru, impande yazo hari ibiti by'icyatsi, ku yindi nzu impande yayo hari inzu yubatse hanze bicaramo.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru, imbere ye hari mudasobwa iri kwaka, no kurundi ruhande hari mudasobwa iri kwaka, afashe ku cyuma cy'umweru, hejuru hariho n'ikindi cyuma cy'umweru, no ku ruhande hariho ikindi cyuma cy'umweru.

lbitaro bya Nyarugenge, imbere yaho hari igiti ki'ibyatsi bifite ibice bibiri igice cyo hasi n'icyo hejuru, inyuma ku rukuta hasize ibara ry'umweru, hejuru yaho hariho n'akandi kazu gatoya kubakishije amatafari ahiye.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, imbere yaho imbere y'idirishya hicaye abantu ku ntebe, harimo uwambaye umwenda w'umuhondo n'uwambaye umupira w'umutuku, imbere yabo hariho ibyatsi birimo umuhondo.

Umuryango ugizwe n'ibice bitatu, hejuru yaho handitseho amagambo akoreshejwe ibara ry'ubururu, impande yaho hariho igikuta gikoresheje amatafari ahiye, umuryango umwe urafunguye.

Inyubako yubakishije amabuye y'amakoro, imbere hahagaze abantu, ifite igikuta cy'umweru ifite escariye hanze, imbere yayo harimo indabo nyinshi harimo indabo zifite amabara y'umutuku, harimo n'izindi z'icyatsi.

Inzu yabababyeyi ifite amabati y'ubururu, imbere yabo hariho abantu bamwe basutamye n'abandi bahagaze hejuru, handikishijwe amagambo mu ibara ry'ubururumande yaho hari ikigega cy'umukara.

Umugabo wambaye agasengeri gasa n'ivu, amaboko abiri yayasobekeranyije, kumwe kurarambuye ukundi gufunze ikofe nk'aho ateruye ukundi, inyuma ye hari igikuta kirimo amabara y'umukara n'umweru.

Umuntu uhagaze yambaye umugozi mu ijosi ufite ibara ry'umukara, aho utangiriye hari akantu kamwe, aho urangiriye hari utuntu tubiri dushashagirana, yambaye itaburiya y'umweru, afite ikintu gisa na kaki mu ntoki.

Icyumba kirekire gifite agashami k'ubururu. Aho gitangiriye hari akantu gakozwe mu ibara rishashagirana. Aho kirangiriye hari utuntu tubiri kamwe gakozwe mu ibara rishashagirana n'akandi gakozwe mu ibara rishashagirana.

Inkoni ndende, ikozwe mu ibara rishashagirana, hasi hariho akantu k'umukara, hagati hariho akantu k'umukara gatambitse abantu bafataho, no hejuru hariho akantu gakozwe mu ibara risa neza.

Umugabo uhagaze azamuye amaboko yombi ari kwisuka amazi mu maso akoresheje icupa rifite umufuniko w'umukara hariho n'umweru, yambaye agasengeri gasa n'icyatsi, inyuma ye hari ibikuta.

Umugabo uri impande y'igikuta cyubakishije ibiti, afashe ukuguru kumwe akuzamura ku biti ukundi kuri hasi, afashe amaboko ye ayafatisha kuri kwa kuguru kuri ku biti yambaye imyenda isa n'umukara.

Umugabo wicaye afite akantu k'icyatsi k'ukuboko, yambaye isengeri y'umukara, ukuboko kumwe kuramanuye, ukundi kurazamuye gufashe icupa y'amazi ari kuyinywa, inyuma ye hari igikuta cy'umweru, yegamye ku giti.

Umukobwa ufite umusatsi muremure, yambaye agasengeri k'ubururu, azamuye ukuboko, agufatishije icupa ari kuywa amazi, risa n'ubururu, izuba riri kumurasaho, inyuma ye na ho hagaragara amazi.

Umukobwa uryamye ariko igice cyo hejuru cyo giheregutse gukama ubwa yashyize hasi yambaye cora y'umukara, hejuru agatopu k'ubururu, afite umusatsi muremure, impande ye hari ibyatsi hari nigikuta gisa n'umweru.

Umukobwa wambaye ipantaro y'ubururu n'umukara agapira k'umukara azamuye amaboko yicaye ku buriri impande ye hari urugi rufite ibara ry'umweru inyuma ye hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Ikizeru kizengurukijeho ubudodo bw'ubururu, imbere harimo akandi kantu k'umwiru kazengurutse giteretse ku kintu cy'umweru, inyuma yaho hari igikuta cy'umweru, ku mpande zombi na ho hari ibikuta by'umweru.

Umwana wicaye yasamye, umuntu ari kumwe n'umugore umufasheho mu ntoki ze, afashe n'icyuma gisa n'umweru ari kumurikisha mu kanwa k'uwo mwana, uwo mwana arararamye.

Umugabo wambaye ikintu gifite umugozi usa n'ubururu mu ijosi, afite ikibaro gisa n'umutuku, inyuma ye hariho ikindi kintu gisa n'ubururu, imbere ye hariho kizimyamwoto isa n'umutuku.

Umukobwa akaguru kamwe kari imbere akandi kari inyuma cyane, yambaye ipantaro y'umukara, agasengeri k'umukara, umusatsi we ni muremure cyane, amaboko yayazamuye.

Umukobwa uryamye agaramye, ukuguru kumwe kurarambuye, ukundi yaguhinnye afatishijeho ukuboko, yambaye ipantaro y'umukara, hejuru agasengeri k'umukara, impande ye hari igikuta cy'umweru, gifite idirishya ry'umweru.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, yazamuye ukuguru kumwe yaguteretse ku meza, ukundi kuri hasi, inyuma ye hari igikuta gisa n'umweru, imbere ye hari utuntu tw'insinga tw'umuhondo, inyuma ye hari igikuta cy'umweru.

Umukobwa wicaye ku rutugu afiteho agatambaro k'umukara arigumyera amazi mu icupa ry'ibyatsi, atoboye amayeri, afite umusatsi mugufi, yambaye agasengeri gasa n'ivu. Ukuboko kumwe kwazamuye.

Umwana wicaye, ukuboko kuzamuye gufite gufashe icupa ry'umweru, rifite umufuniko w'ubururu, ari kunywa amazi, afite umusatsi mukeya, yambaye umweru, hejuru yicaye ku ntebe aregamye.

Amazi meza, arikugwa mu kirahure gisa n'umweru kibonerana, inyuma y'ikirahure hariho igikuta cy'umweru, impande yaho hariho igikuta cy'umweru, amazi afite ibara ribonerana.

Umugabo yazamuye ukuguru kumwe ukundi kuri hasi, impande ye hari ibizeru, icy'ubururu, umutuku, n'icyatsi, imbere ye hari utuntu, kamwe k'umuhondo, n'akandi k'umuhondo, akandagiye ku kintu cy'ubururu.

Umugabo uhagaze ari kureba inyuma yambaye agasenyeri k'umukara imbere ye hari giriyaje nyuma ukuboko kumwe yakuzamuye arongera araguhina agukoza mu mugongo ukundi yakuzamuye arongera araguhina agukoza ku nkokora.

Umukobwa wambaye kola y'ubururu, hejuru agasengeri k'umweru, ukuguru kumwe kuri hasi, ukundi kurarambuye, amaboko ye arazamuye, imbere ye hariho icyatsi, impande ye, hari igikuta icy'umweru.

Umukobwa wunamye ukuboko kumwe gufashe ku mano ukundi kuri inyuma mu mugongo, afite umusatsi mwinshi, yambaye agasengeri k'icyatsi, ipantaro isa n'ivu, impande ye hari igikuta gisa n'ubururu, hasi akandagiye ku gitambaro gisa n'umukara.

Akana kicaye, impande yako hapfukamye umuzungu, inyuma hapfukamye umumanseri, imbere y'umwana hari ibikinisho by'abana, inyuma ye hari abandi bantu, impande yabo hari ikintu kiryana kizengurutse cy'icyatsi.

Umukobwa wambaye imyenda y'umweru, aricaye ukuguru kumwe kurarambuye amaboko ye yayahinnye, ayajyana ku ukuguru kumwe, ukundi kurahinnye nta koboko na kumwe, kugufashe.

Igiti kirekire gifite amababi y'icyatsi menshi, gifite amashami menshi, impande yacyo ibumoso hari inzu imwe, iburyo hari indi nzu, inyuma yacyo hari urutoki, imbere yacyo nta kintu gihari.

Icyatsi kiranda gifite amababi y'ubururu, kiriho indabo zisa n'iroze, impande yacyo hariho ibiti by'icyatsi, giteye ku butaka busa na shokora. Impande yacyo hari n'ikindi giti.

Agacupa gato, inyuma yaho hari igikuta cy'ibara ry'umukara, gateretse neza, gafite umufuniko w'umweru, hasi aho gatangiriye handikishije, hari ibintu byanditseho byandikishijwe mu ibara ry'icyatsi.

Umuntu wambaye umupira w'umukara, agasengeri k'umweru, afashe ibyatsi mu ntoki by'amababi y'ugutwi kumwe, inyuma ye hariho ibindi byatsi n'imbere ye hariho ibindi byatsi no ku ruhande rwe.

Icyatsi kirandaranda hasi gifite amababi y'ubururu, indabo zisa n'umutuku. Impande yabyo hari n'ibindi biti by'icyatsi bifite amababi menshi y'icyatsi.